Umwana muto w'igitambambuga afite amabara agiye atandukanye arimo kugenda ashushanya, ari gukoza akantu kameze nk'akaroso mu marangi atandukanye yarangiza agasiga ku rukuta, arishimye cyane azi ko arimo kugenda ashushanya.

Ikigo cy'amashuri abanza cyangwa se mu mashuri y'incuke, aho hariho imfashanyigisho ziri zitandukanye, zishushanyije ku rukuta, ahambere hariho ingorofani ndetse n'amagambo y'icyongereza avuga uko agiye yitwa, harihi kandi n'inyama imanitse, hakabaho inyama y'inkoko ndetse n'ibindi.

Udukinisho tw'amoko agiye atandukanye tugizwe n'utumeze nk'imbwa ndetse n'utundi tunyamaswa tugiye dutandukanye, udukozwe nk'umutima, utungutu dukoreshwa n'abana bakiri batoya mu gihe barimo kwiga, cyangwa se igihe barimo gukina.

Aho bigishiriza barimo kugaragaza amasaha igihe atandukanye, aho umwana ashobora kwiga kubara akoresheje iyi mibare, ni ukuvuga ngo ni zasa z'urushinge, aho urushinge rutoya ruba rugaragaza isaha, urushinge rurerure rukagaragaza iminota, akandi gashinge karekare ariko kananutse kakagaragaza amasegonda.

Udukoresho twifashishwa nk'imfashanyigisho mu mashuri y'inshuke, aho abana bakiri batoya baturangarira ndetse bakumva baranezerewe, bituma amasomo biga bayamenya ndetse babifata nk'imikino, bikarangira bigiyemo.

Ikibabi gishushanyije kiriho n'ibice bigiye bitandukanye bikigize, aho byanditse mu ibara ry'Icyongereza aha ngaha umwana abireberaho mu gihe arimo kwiga, akaba abasha kumenya ibice bigize ikibabi bitamuvunnye.

Ubutaka burimye butari bwahingwa, ndetse buri ahantu mu kigo cy'amashuri, hariho abana bambaye iniforome cyangwa se impuzankano zigizwe n'amakabutura y'ubururu, imipira y'ubururu, ndetse n'amashati y'umweru. Ahangaha biragaragara ko ari mu mashuri abanza.

Icyumba giteguye neza kigiye kiriho intebe zigiye zitandukanye zizengurutse ameza ndetse n'udutebe tugiye dutandukanye, aho abantu baba barimo kuganira cyangwa se abana barimo kwiga muri ya mashuri meza baba bicaranye baganira, bakorera mu matsinda.

Abana bo mu mashuri abanza batonze umurongo. Imbere hariho umwarimu ubayoboye, ndetse kandi bafite ikinyabupfura, ukurikije ukuntu bari kugendera ku murongo nta n'umwe uciye ku ruhande. Barimo baragana ahantu runaka.

Udukoresho tugiye dutandukanye twiganjemo tumeze nka marinete, utundi dukoreshwa muri laboratwari ariko utu ni imfashanyigisho, zikoreshwa mu mashuri abanza, mu gihe bigisha abana uburyo umuntu ashobora gukora ubushakashatsi muri laboratwari.

Ibikoresho abana bifashisha mu gihe barimo gupima, gushushanya cyangwa se bari kwiga isomo bita gewometiri, riboneka mu mashuri abanza ndetse no mu yisumbuye, aha ngaha baba bari kwiga ibintu byo kugereranya, kubaka cyangwa se gupima.

Umubumbe w'isi ukikijwe n'abantu bagiye batandukanye, mu buryo bw'amashusho, ndetse unagaragaza ugushyira hamwe hagati y'abantu, b'ibice bigiye bitandukanye, ku isi hose bakagenda bafatanya mu kugira ngo bazamure umubumbe.

Igikoresho kigizwi nk'imfashanyigisho igaragaza ibishushanyo bigiye bitandukanye, hariho ibimeze nk'inyenyer,i ibigize na mpande eshatu, mpande umunnani, kare ndetse n'ibindi binyampande bigiye bitandukanye, ibi ngibi byifashishwa mu kwigisha abana bakiri batoya impande ziba zigize ibikoresho runaka.

Umugore n'umugabo barimo kugenda basangira ibitekerezo, umugabo afite indangururamajwi mu ntoki arimo kwitegereza ibyo umugore arimo kumubwira gusa hari n'abantu bicaye bari kumvamva ibyo barimo kuganira harimo abasaza ndetse n'abagore ndetse kandi hariho n'abana bicaye bari kumva inama barimo kuganirwa barimo kugirwa.

Ikibuga kiri ahantu hitaruye ku musozi, aho abantu bashobora gukinira umukino witwa vole cg se umukino w'amaboko. Aho abanyeshuri bagenda bakina bawurenza ino fire iri hagati. Ndetse iyo umuntu awuteye ukagwa utageze mu kibuga cy'iyindi kipe muhanganye ni ukuvuga ngo uba utsinzwe.

Amashuri yubatse neza afite inzugi z'ubururu zisa n'amabati yazo kuko nayo ni ubururu, hariho kandi ubusitani bukiri butoya bamaze igihe gitoya bateye, hariho kandi n'ibendera ry'u Rwanda riri hagati mu kibuga.

Ibikoresho byo mu mashuri y'inshuke bigizwe n'inyuguti a, b, c ndetse n'utundi dukoresho umwana ashobora kwifashisha mu gihe ari guteranya, gukuramo ndetse n'ibindi bimenyetso bigiye bitandukanye, hariho icyo gu kuba, guteranya ndetse n'andi makaramu umwana ashobora kwandikisha.

Igitabo cy'umunyeshuri cyo mu mwaka wa mbere, aho abana barimo kugenda basoma ari babiri, ndetse iki gitabo kigenewe umwana wiga mu mashuri abanza, mu mwaka wa mbere, mu gihe aba yiyigisha gusoma nk'uko biteganywa n'ikigo gishinzwe uburezi mu Rwanda.

Ibikoresho byo mu mibare aho umuntu yifashisha ashushanya, apima cyangwa se arimo kugenda akora igereranya ibingibi bigizwe na kompa, irati rirerire, ndetse n'irindi ripima imfuruka, hari na mpande eshatu byose byifashishwa muri jewometiri

Ibikoresho byifashishwa mu gupima cyane cyane byifashishwa n'abana biga mu mashuri yisumbuye ndetse n'abiga mu mashuri abanza cyane cyane mu mwaka wa gatandatu n'uwa gatanu, barimo gupima. Ibikoresho bigizwe: na kompa, irati ndetse irirerire n'irya mpande eshatu n'irindi rigaragaza imfuruka.

Udukoresho tw'imfashanyigisho dukoreshwa mu mashuri abanza aho baba barimo kugenda bereka abana ibinyampande bigiye bitandukanye, bashobora kubereka kare, impande eshatu ndetse n'impande enye zingana bita kare.

Ikigo cyo mu mashuri abanza ariho utuyira abanyeshuri bagenda banyuramo, ahangaha ugenda utambuka udaciye mu busitani bw'indabo, ahangaha kandi ni aho umuntu ashobora gukinira mu busitani kuko biba bibujijwe, bituma indabo zidakura neza.

Ibitabo bibiri bigize imfashanyigisho biriho amagambo yanditse ngo ubugeni ndetse n'umuco aho ngaha hariho abana biga mu mashuri abanza bari ku meza barimo kugenda bakora utuntu twinshi. N'ibitabo bibiri birambitse ku meza.

Mu kigo cy'amashuri aho abana bicara barimo kurebana n'ameza ahari hameze nk'aho abantu bicara barimo kurira, gusa ahantu none hameze nk'ahantu harimo ibyo kurya cyangwa se muri resitora bigaragara ko ari abana bicara gihe barimo kurya.

Abanyeshuri bakoze uruziga, mwarimu wabo arimo hagati, arimo kugenda abatondesha umurongo, ku ruhande hariho ibyiicungo abana bajya bakoresha, mu mugihe bari mu gihe cyo kuruhuka ndetse no ku rundi ruziga hari abandi bana, barimo kugenda bihuriza hamwe.

Ibikoresho byifashishwa mu kurinda umubiri, harimo ibinda igice cy'amaguru igizwe na bote, hariho n'ibindi bintu birinda intoki bigizwe na ga cyangwa se uturindantoki. Ikindi mu kurinda ibintu bishobora kwinjira mu mubiri nka mikorobe, akangaka ka gatatu kitwa gapfukamunwa, kifashishwa mu gupfuka umunwa kugira ngo mikorobe zitinjira mu mubiri.

Umwana muto w'umunyeshuri uhagaze imbere yabandi, afite igitabo kinini arimo gusoma, asomera mu ruhame. Hariho n'umwarimu uhagaze imbere y'intebe ndetse hariho n'abandi bantu benshi bateranye.

Ibikoresho byo mu muco wa kinyarwanda bisongoye bimeze nk'iyo shoka bishobora gutema mu buryo bugiye butandukanye, ibi ngibi byakoreshwaga mu gihe cy'intambara mu gihe abami bari kurwanira Igihugu cyangwa se abasirikare b'u Uwanda, ibi ngibi ntabwo bikibaho, ibi ngibi bigaragaza umuco wa kinyarwanda wa kera.

Inyubako ntoya ariko ndende igizwe n'amasikariye agera kuri ane atuma aho hantu haba heza kuko buri sikariye igizwe n'ahantu hateye umucaca kugeza hejuru ndetse ikabaho n'amabuye biragaragara ko ari ikigo cy'amashuri abana bigiraho cyane cyane abo mu mashuri abanza.

Ibikoresho by'ishuri bijye bitandukanye, byiganjemo ibikoreshwa mu mibare, hariho agakoresho gasiba ibyo umuntu yandikishije ikaramu y'igiti, hakabaho irati rirerire, irigize mpande eshatu ndetse n'akandi kantu kifashishwa mu gukora imfuruka.

Itsinda ry'abanyeshuri barimo kugenda basoma igitabo, barimo gukora imyitozo, umwarimu wabo nawe akagenda abazengurukamo, agenda abakosora ibyo bagiye bakora, ari nako agenda abahereza amanota y'ibyo bakoze aha ngaha.

Umugore uhagaze arimo kugenda aganiriza abanyeshuri, umwe arahagaze arimo kubaza ikibazo kuri uyu muntu urimo kugenda abaganiriza, biragaragara ko ari umunyeshuri urimo kuganira n'umuyobozi we, abandi bana baricaye nabo bari kumva ibiri kuganirwa.

Abagenzuzi baje mu gikoni, barimo kureba ibiryo bitekerwa abanyeshuri, ibi bikoresho biri aha ngaha ni za muvero. Bitekwamo ibiryo by'abanyeshuri, byiganjemo akawunga, umuceri, ibishyimbo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ikigo cy'amashuri kitarimo abanyeshuri ndetse hari akayira kagiye kaganira mu byerekezo bigiye bitandukanye by'amashuri, hariho ubusitani bumeze neza burimo indabo ndetse bitewemo na pasiparumu hariho ibendera ry'u Rwanda rigizwe n'amabara atatu, ubururu, umuhondo, ndetse n'icyatsi.

Abanyeshuri bagera kuri bane barimo kuganira. Aba ngaba ni ba bandi biga mu mashuri yisumbuye,. Bambaye impuzankano igizwe n'amashati y'umweru ndetse n'amapantaro y'umukara. Ni abahungu babiri n'umukobwa umwe.

Abana b'abanyeshuri batonze imirongo ndetse barimo gukora imyitozo, barimo kugenda batozwa mu gihe cy'itorero kuko aha ngaha bari kuri paledi, bahagaze bari kureba imbere ndetse ku ruhande rwabo hariho amatente, ni ukuvuga ngo barimo kugenda, bakora imyitozo nk'iya gisirikare.

Abana benshi b'abanyeshuri biganjemo abiga mu mashuri yisumbuye bambaye amashati y'imyeruru ndetse n'amapantaro ya kaki ku bahungu, abakobwa na bo bambaye amashati y'imweru ndetse n'amajipo ya kaki, abenshi baricaye inyuma yabo hariho n'abandi bahagaze bateraniye ahantu hari ubusitani burimo n'ibiti.

Umugabo urimo gutanga imbwirwaruhame afite urupapuro rwanditseho ibintu ari kubabwira, afite n'indangururamajwi ndetse ku ruhande hicayeho abantu bagiye batandukanye bicaye mu ihema, inyuma kandi hariho n'abandi bambaye imipira isa na bo bitabiriye iyi nama.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye, hariho umunyeshuri uvuye guterura ibyo kurya mu kabase, abandi barimo kumureba batonze umurongo, harimo abambaye amashati gusa ndetse abandi bambaye imipira isa n'amapantaro yabo ndetse n'inkweto zifunze.

Abantu bakoraniye hamwe biganjemo abagabo ndetse n'abagore barimo kugenda bagirwa inama zigiye zitandukanye, ababagira inama bambaye amajiri yabugenewe ndetse barimo kugenda bahugura kuri serivisi runaka cyane cyane iziba zikorerwa mu mashuri haba ayisumbuye cyangwa se abanza.

Abanyeshuri benshi bakoraniye hamwe b'abakobwa, hariho bamwe bari kugenda bavuza ingoma ndetse n'undi ari imbere yabo afite indangurumajwi barimo kugenda aririmba ari na, ko n'abandi bantu bicaye imbere y'ameza ariho indabo bamwitegereza.

Ikigo cy'amashuri kiriho idarapo ry'u Rwanda cyangwa se ibendera rigizwe n'amabara atatu, ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, ahantu idarapo riteye harakeye cyane harasa neza hariho agatako k'amabara agiye atandukanye.

Abagabo ndetse n'umugore umwe bakoze uruziga barimo kugenda baganira, ahangaha biragaragara ko ari abantu baje gukora serivisi runaka gusa ni mu kigo cy'amashuri, barimo kugenda bahugura abarimu babigisha kuri serivisi zigiye zitandukanye.

Abanyeshuri bicaye kuri za ntebe za palastike ndetse imbere yabo hariho utumeza, ahangaha bicaye hameze nko mu isomero, aho umuntu ashobora kujya agafata igitabo agasoma bitewe n'ibyo ashaka kwiga cyangwa se kwiyunguraho ubumenyi.

Umukobwa urimo gutambuka mu ishuri, arimo kugenda asuhuza bagenzi be, aha ngaha mu ishuri aho bamwe bafite mudasobwa barimo kugenda bareba amasomo yabo, bigira ku buryo bw'ikoranabuhanga mu buryo bworoshye.

Ibikoresho bitandukanye bikorwa mu ibumba ndetse na ryo rirahari, hariho udukono ndetse n'ibindi bikoresho bijya bitandukanye, hariho ibumba bagiye bakata bifashishije amazi ndetse iri ngiri bakunze kuribumbamo inkono, imbabura ndetse n'ibindi bikoresho.

Abanyeshuri bicaye, bafite mudasobwa, barimo kugenda bareba, aha ngaha ni mu cyumba, kirimo murandasi cyangwa se interinete, aho umuntu ashobora kuza akareba ibintu akeneye ndetse uburyo bumworoheye.

Imitako igiye itandukanye iriho akantu kameze nk'agacuma cyangwa se akavazi, karimo utuntu twinshi tugizwe n'amabara agiye atandukanye harimo utuntu tumeze nk'amasaro, tumwe turimo amabara y'icyatsi andi atukura ndetse aha ngaha biragaragara ko ari ya mitako ikorwa n'abantu biga ubukorikori cyangwa se ubugeni.

Ikibumbano gikoze mu ishusho y'umuntu, aho hariho amaso, iminwa ndetse n'ikizuru kinini. Aha ngaha ni byabindi bikorwa n'abantu biga ibintu by'ubugeni cyangwa se abantu babakora ibintu bijyanye n'ubukorikori.

Ikibumbano nka bya bindi bikorwa n'abantu biga ibintu by'ubukorikori ndetse n'abahanzi. Ni umuntu w'umusore uhagaze ufite n'imisatsi myiza. Ku ruhande kandi hari n'ikindi gikombe cyabumbwe ,biragaragara ko hano hantu hakorerwa ibintu by'ububumbyi ndetse n'ibindi bintu by'ubugeni.

Abagabo n'abagore bamaze gukora inama, barimo gufata agafoto k'urwibutso, inyuma kandi hariho ikirango kigaragaza kaminuza y'u Rwanda, aho kigizwe n'amagambo yanditse avuga kaminuza y'u Rwanda ndetse n'ayandi ashushanyije mu nyuguti.

Abantu bateraniye mu nama, biganjemo urubyiruko, benshi bafite amakayi imbere ku ntebe zabo ndetse bari kureba imbere ku muntu urimo kugenda bahereza amasomo, biragaragara ko ari mu kigo cy'amashuri, cyane cyane ya yandi ya kaminuza.

Ibikoresho bikorwa mu ibumba, byiganjemo inkono ,imbabura ndetse n'utundi dukoresho twinshi dushobora kubumbwa mu ibumba. Bashobora gukuramo n'ibikombe ndetse ibi bikunze kugaragara cyane cyane ku bantu biga ubukorikori cyangwa se kubumba.

Umugore urimo kugenda wenyine, yambaye agashati k'umweru ndetse afite n' imisatsi miremire y'umukara, arimo gutera intambwe, afite ibipapuro mu ntoki, arimo kugana ahandi hantu hari abanyeshuri benshi, barimo kuganira n'umuntu ushinzwe umutekano.

Mu kigo cya kaminuza y'u Rwanda, ishami rya Nyagatare, barimo kugenda batanga serivisi zigiye zitandukanye, barimo baragaragaza umuntu ushaka akazi, ndetse n'umuntu utanga akazi. Bagira inama abantu kwihangira umurimo ndetse ugomba kuba umuntu urema akazi, agatanga akazi ku bandi bantu.